Ibiti by'imisave biteye mu butaka, kandi akamaro k'imisave havamo ibikoresho bitandukanye byo mu biro.

Ni umurima uteyeho indabyo, harimo indabyo ndende, harimo indabyo ngufiya, hagati harimo n'igiti.